Igikoresho cyo kwa muganga, abaganga bakuru bifashishapi abarwayi, igikonjo cy'umukino wa box, umupira basket, umupira w'umukino wa football.

Umuntu urimo urakora siporo n'umugabo ufite umusatsi ufungiye inyuma n'ubwanwa, wambaye isengeri n'ikabutura afite umusambi bakoreraho siporo n'intebe mu cyumba cye n'amarido, atambaye ingofero.